Ooh! Ndi kubona ari imbuto nyinshi zitandukanye kandi zisa neza, ndikubonamo ibitunguru, amapavuro nkabonamo ibihaza, imineke amalonji, inyanya na pome.

Ndi kubona umuntu afite imbuto mu kiganza nubwo ntazi ngo imbuto ni izikihe gihingwa, gusa ikigaragara cyo n'imbuto ashobora kuba ari gutera ya ahantu mu murima.

Ndi kubona utunyana twinshi dusa neza tumeze nk'aho ari utw'inyarwanda turi gusho.